Akabare keza, gakoze neza, hariho icyapa cyanditseho pirimusi, bigaragara ko bacuruza inzoga yitwa pirimusi, iyi inzoga iyo uyinyweye wumva umeze neza. Akabari gafite aho kwicara heza, ho kuganirira murimo kunywa.

Akabari keza cyane bigaragara ko bacuruza inzoga z'ubwoko butandukanye, harimo ibyuma byitwa rikeli, harimo inzoga za mitsingi zikorerwa mu ruganda rwitwa burarirwa, iyo uzinyweye urasinda cyane, ukumva uri hejuru.

Abantu bicaye mu kabari bishimye bari guseka bafite icyo kunywa bigaragara ko basohokanye. Akabari gacuruza ibyo kunywa bitandukanye harimo ji, fanta, hakabamo n'inzoga.

Burushete nziza zisa neza zokeje, bigaragara ko bagiye kuzigaburira abantu bari mu birori. Burushete ni inyama ntoya uba wakataguye ukazotsa, ukazishyira hejuru y'umuriro, hanyuma zashya ukazikuraho ukazirya.

Akabare bacuruza ibyo kunywa cyane cyane mitsinge ,sikolo. Mitsinge ni inzoga nziza iyo uyinyweye wumva unezerewe ariko iyo ure uyinyweye ukarenza urugero irasindisha, ugataha wanduranya ugwirirana.

Ibirayi bitetse neza mu mavuta ndetse n'inyama y'inkoko. Ibirayi ni byiza cyane kuko iyo ubiriye wumva unezerewe uba winjije na vitaminini cyane cyane harimo vitaminini se mu mubiri wawe.

Abantu benshi bari mu nzu, bigaragara ko ari akabyiniro. akabyiniro ni ahantu abantu bahurira n'ijoro bagacuranga imiziki, bakishima bakanywa inzoga cyangwa se bakarya n'ibiryo bari guceza.

Burushete nziza bisa nk'a ziryoshye. Burushete ni utunyama dutoya uba wakase mo uduce hanyuma ukabaza agati ugashiraho. Ugashyira hejuru y'umuriro zigashya ukaza kuzirya unezerewe.

Ifi ni ikiribwa cyiza cy'inyama gikunzwe cyane, haba mu gihugu ndetse no ku isi. Ifi ikunzwe kuba ahantu mu mazi cyane cyane mu biyaga, cyangwa se mu migezi itemba amazi.

Inzu nziza y'ubucuruzi bigaragara ko yakira abantu batandukanye, cyane cyane ab'abakire kuko ku meza haratatse hameze neza hariho inzoga zihenze z'ubwoko bwose harimo: mitsingi sikoru amusiteri ndetse n'izindi.

Akabari gasa neza， bacururizamo inzoga z'ubwoko bwose， harimo shampanye， henikeni， mitsingi，ndetse n'ubundi bwoko bw'inzoga ，ushobora kunywa ukumva wishimye. Harimo n'ibyuma， inzoga ya mitsingi，ni nziza urayinywa， ukumva wishimye.

Akabari keza kari ahantu heza. Karimo inzoga z'ubwoko bwose. Harimo shampanye, harimo mitsingi, sikolo. Shampanye ni inzoga nziza, cyane cyane bakunze kuyifashisha mu birori kugira ngo bishime.

Butike nziza icuruzwa ibintu bitandukanye, imbere hicaye umukobwa umanitse ikiganza, iruhande hariho umutaka wa MTN. Bigaragara ko banatanga mitiyu. Mitiyu iyo ufite amafaranga uyaha umuntu, bakakoherereza amayinite.

Ibyuma byinshi by'amagare, iki cyuma cy'igare gishyirwa mu ipine, kugira ngo ribashe kugenda ryirukanka cyane, ugiye gutembera cyangwag se ushaka guheka umuzigo ku igare, iki cyuma cy'ipine kijya mu ipine ry'igare ni cyiza kuko kiba gikomeye gifasha igare gukomera cyane.

Butike ikora ibintu bitandukanye harimo: guhanagura inkweto wambara igihe ushaka gutembera ,harimo guhanagura amakoti, ikoti ni igihe uryambara ugiye mu birori cyangwa se uri kumva ufite imbeho, bahanagura n'amakuvuleri iyo uryamye urayifubika.

Butike nziza yubatse neza， icuruza ibintu bitandukanye， byifashishwa mu rugo. Harimo amashuka， harimo intebe， intebe ni nziza kuko uzifashisha wicaye，igihe unaniwe cyangwa se urimo kuruhuka.

Inzu nziza cane itatse, ikikijwe n'igipangu kiboneye giteye irangi. Iki gipangu gifite porotaye nini cyane kandi nziza imodoka ishobora kunyuramo. Iyi nzu abantu bayiraramo cyane cyane mu gihe cya nijoro.

butike nziza icuruza ibintu bitandukanye:amakara, ibishyimbo ,amakara ni meza kuko tuyifashisha tugiye guteka ibyo turi buze kurya, turayafata tukayashyira ku mbabura hanyuma tugashaka umuriro tugacana, yamara gufatwa tugaterekaho isafuriya ibiryo bikaza gushya.

Butike isa neza bacuruza amarangi y'ubwoko bwose atandukanye harimo: amarangi y'umweru, amarangi y'umuhondo. Irangi ni ryiza kuko urisiga ku nzu, inzu igahinduka igasa neza.

Inzu nziza, bigaragara ko hakorerwamo, umwuga wubudozi. Kuko harimo imashini, n'imyenda yo kudoda. Imashini nziza, ikoze mu cyuma hasi hariho imbaho. Imashini yifashishwa mu kudoda imyenda, ukayambara ukagenda wishimye.

Inzu nziza hakorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya. Ibyo kurya twakwita ibiryo: ibirayi, ibijumba, umuceri n'inyama. Iyi nzu mu by'ukuri tuyita resitora, resitora ni inzu iba icururizwamo ibyo kurya bitandukanye.

Igare ritwaye ibisheke. Ibisheke ni byiza cyane kuko iyo ugiye kukirya ubanza wagikongora，hanyuma ukarya amazi yacyo，ukumva aryoshye，ikisigaye ukagicira， ukakijugunya. Ibisheke ni byiza kuko bivamo n'isukari iyo binyuze mu ruganda.

Alimantasiyo nziza cyane iri ahantu heza. Icuruza kofi, amata ndetse n'icyayi. Kofi ni nziza kuko iyo uyinyweye wumva umeze neza. Naho amata yongera intungamubiri mu mubiri wawe.

Butike y'ubucuruzi harimo imigati amata ayoba yakorewe ku ruganda rw'inyange, harimo na ji ziriya ji bisa naho ziryoshye cyane ku buryo iyo yinyweye wumva umeze neza.

Inzu yubatse iteye irangi, bigaragara ko bakoreramo umwuga wo kogosha, kuko hejuru hariho icyapa, kigaragaza ko abantu bogosha, imbere hariho kandagira ukarabe, iyo ushaka kwinjira ubanza ,wakaraba n'amazi meza.

Isoko bigaragara ko bakunda gucuruza ibintu by'imbuto, kuko ni byo byiganjemo harimo: ibinyomoro ,inyanya amatunda ,ndetse n'imineke. Ibinyomoro ni byiza iyo ubiriye ugira ubuzima bwiza, kandi byongera amaraso mu mubiri wawe.

Butike yubatse neza, icuruza ibintu bitandukanye. Imbere hariho imifuka ya kawunga, imifuka y'umuceri. Umuceri ni ikiribwa abaturage barya bakumva bishimye. Kawunga nayo urayirya, ufata ifu ugashyira mu mazi, warangiza ukanywa igikoma, cyangwa se ugatekamo umutsima.

Ahantu heza bacururizamo ibyo kurya, ibyo kunywa. Harimo biswi ,amata y'abana ndetse na mandazi, ji nazo zirimo z'ubwoko butandukanye. Zimwe zikorerwa kuri Nyirangarama.

Isoko rinini bigaragara ko hacururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo inkweto, imikandara, amasogisi, imipira yo gukina y'abana, ingofero zo kwambara mu mutwe, ushaka kugira ngo izuba ritakwica urayambara ukagenda.

Butike nini cyane yuzuye kandi nziza, irimo ibintu byinshi by'ibicuruzwa abantu bakenera bifashisha mu buzima bwa buri munsi haba ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa. Hari ama ji abantu banywa hari imyunyu bifashisha bateka, harimo umuntu w'umucuruzi w'umumama.

Imodoka nziza y'umukara iparitse imbere y'inzu. Imodoka ni nziza kuko uyigendamo ushaka gutembera, cyangwa se ushaka kwihuta kugira ngo ugere iyo ugiye vuba. Imodoka iba ifite amapine niyo atuma yihuta vuba vuba cyangwa se igihe...

Butike icuruza ibintu bitandukanye. Cyane cyane itanga serivisi zijyanye no gufotora, gutanga imyenda z'ubukwe, ndetse no kudekora ahantu abageni bari bwicare, n'ahantu ubukwe buri bubere. Bakodesha imyenda y'abageni, bagira ibintu byinshi byiza bitandukanye cyane cyane ku bantu bifuza gushinga urugo.

Inzu nziza bigaragara ko hakorerwamo umwuga w'ubudozi, kuko imbere hari imyenda imanitse, iruhande hari imashini bakoresha badoda imyenda, kugira ngo bayambare imeze neza.

Inzu nziza y'ubucuruzi bacuruza ibintu bitandukanye, harimo ibikoresho bisukura mu rugo cyane cyane nk'isabune, imwe bogesha hasi. Cyangwa se ushaka gufura, iyo sabune nayo ushobora kuyifashisha, ugafura imyenda yawe igacya.

Icyuma gisya cyitwa hingini; icyuma ufata ibigori hanyuma ugashyiramo, ukacyatsa, kikabikaraga, hakavamo ifu, iyo fu ukajya kuyitekamo igikoma cyangwa se ifu ukayivugamo umutsima ukarya

Botike nziza icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane ibiribwa harimo umuceri, umunyu, urusenda ndetse n'ibindi. Umuceri ni mwiza iyo tuwuriye tugira imbaraga n'umunyu ni mwiza kuko utuma ibiryo biryoha.

Butike nziza cyane irimo ibintu bitandukanye. Harimo imifuka ya kawunga, umunyu ndetse n'ibindi. Umunyu ushobora kuwifashisha utetse ibiryo ukawushiramo kugira ngo ibiryo biryohe, naho kawunga uwushyira mu mazi, amazi yahiye wateretse ku mashyiga, ugateka umutsima.

Isoko ryiza ricuruza ibintu bitandukanye harimo, ibikapu imyenda ,bote, ndetse n'amashati .Bote ni nziza kuko uzambara cyane cyane igihe imvura yaguye ,kugira ngo utajyaho ibyondo, naho igikapu ni cyiza kuko ukifashisha mu gutwara imyenda ndetse n'ibindi bintu bikeya.

Inzu nini cyane ya etaje yubatse neza， bigaragara ko batanga serivisi zitandukanye， harimo serivisi z'ubucuruzi， ibikoresho by'ikoranabuhanga， batanga serivisi zirimo gukina imikino y'amahirwe， "betingi".

Amagare menshi aparitse bisa nk'aho barimo kuyakanika. Amagare ni meza atuma wirukanka ukagera iyo ugiye vuba vuba igihe agutwaye. Iruhande haparitse moto. Moto na yo ni nziza irirukanka gusumbya igare.

Inzu nziza ikorerwamo uburyo bwa betingi. Betingi ni igihe ufashe amafaranga yawe ukavuga ngo iyi kipe iraza gutsinda iyi, iyi iraza gutsinda iyi, cyangwa se iratsinda ibitego bingahe, iyi irayitsinda ibitego bingahe.

Inzu nziza yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubucuruzi, harimo gucuruza gaze twifashisha turimo guteka igihe dushaka ,kugira ngo ibiryo bishye vuba vuba, ndetse harimo n'ibikoresho bindi twifashisha tureba imipira ,indirimbo, nka televiziyo ndetse n'amaradiyo.

Akabutike gatonya karimo umucuruzi afite akamashini yifashisha mu gukora injugu akora amatelefone harimo udufuka dutoya twifashishwa mu guhaha n'udukorogati tumanitse hejuru kuri hanga.

Imikandara myiza ishashagirana, ya kera, imikandara ni myiza kuko uyifashisha wambaye ipantaro kugira ngo itaza kugwa hasi, ushyiramo hanyuma ugafunga ukagenda umeze neza.

Akazu gatoya ka butike bacururizamo imyenda, cyane cyane iyo kwambara hejuru. Iruhande hariho akazu kanditseho MTN . Bigaragara ko hakoreramo umuntu utanga amayinite ushaka guhamagara.

Umugore uhagaze ufite agashashi karimo urusenda, uyu mugore bigaragara ko arimo kurucuruza, kuko urusenda ni rwiza cyane iyo ururiye warushize ku biryo bituma ugira apeti ukarya wishimye cyane nta kibazo.

Inzu nziza yubatse ku muhanda icuruza ibintu bitandukanye harimo amafu, ubujerekani, ndetse n'amahema. Ubujerekani bwifashishwa mu kuvoma amazi cyangwa se kubikamo amata igihe ushaka kuyanywa.

Butike nziza icuruza amakaroni ,amakaroni ni meza kuko urayarya ukumva unezerewe, bacuruza n'ibinyobwa, bagacuruza n'ibitunguru. Igitunguru ni kiza kuko iyo ugishyize mu biryo biraryoha cyane.

Butike nziza ikorerwamo serivisi zitandukanye，harimo gukanika terefone， kugurisha terefone， mashini，ndetse n'igihe ushaka kohereza，ibyangombwa byawe ahantu runaka.

Inzu nziza ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye cyane cyane inkweto, ibyo kurya, ndetse n'ibindi. Inkweto ni nziza kuko tuzifashisha turimo kugenda, tukazambara kugira ngo tudasitara, hanyuma tukababara.

Butike icuruza ibintu bitandukanye cyane cyane ibyuma by'amagare harimo amapine ndetse n'ipombo, amapine ni amwe afasha igare rigatuma rigenda cyane kandi ryirukanka naho ipombo niyo bifashisha bashiramo umwuka mu ipine.

Moto itwara abagenzi. Cyangwa se igihe ushaka gutembera ugiye ahantu heza. Moto igira amapine abiri ayifasha kwirukanka cyane. Kugira ngo yirukanke cyane yuko baba basutsemo esanse. Iyo urimo kuyigendaho wicaye, wambara kasike kugira ngo nugwa udakomereka.

Inzu nziza izengurutse n'igipangu kiboneye. Iyi nzu bisa nkaho bakoreramo ubucuruzi bw'ibyo kunywa. harimo inzoga za mitsingi, inzoga za sikoro ndetse n'iza henikeni.

Inzu bigaragara ko bacururizamo ibyo kunywa imbere y'iyo nzu haparitse imodoka ebyiri. Imodoka ni nziza cyane kuko zifashishwa igihe uri kugenda ugiye ku rugendo kure cyane cyangwa se uri kugira ngo imvura itakunyagira urimo kugenda.

Inzu nziza icururizwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo terefone, imashini, ndetse n'ibindi. Terefone ni nziza kuko uyifashisha uhamagara, ushaka kubwira umuntu cyangwa se ukamwandikira mesaje.

Inzu y'ubucuruzi bacuruza ibintu bitandukanye cyane cyane iby'ubwubatsi harimo sima. Sima ni nziza kuko yifashishwa mu bwubatsi igihe ugiye gutangira kubaka inzu cyane cyane muri fondasiyo ushaka gushyira mu mabuye kugira ngo inzu yawe ikomere.

Isoko bacuruzamo ibintu bitandukanye harimo amakara, imbuto, imbere hahagaze umugore wikoreye agapaniye karimo ibyo avuye guhaha, imifuka irimo amakara. Amakara ni meza kuko tuyifashisha duteka ibyo kurya.

Inzu ikinguye bisa nk'aho ari butike， iruhande hahagaze moto，hejuru hari icyapa kigaragaza serivisi batanga，impande y'iyo nzu，hari imashini idoda imyenda， n'abantu bahahagaze bari kudodesha imyenda.

Inzu nziza zikorerwamo umwuga w'ubudozi imbere hicaye abagore bari kudoda, hejuru yabo hariho ibitenge barimo kudoda, imashini zifashishwa mu kudoda imyenda ukambara ukaberwa.

Igipangu cyiza gisa neza, giteyemo ibintu bitandukanye, harimo ibishyimbo, ibisheke. Igisheke ni cyiza, kuko turakirya nk'igihe dufite imyuma, dushobora kukirya, icyaka kigashira, cyangwa se tukagikuramo isukari mu ruganda.

Ibyuma birambitse hasi byifashishwa mu gukora amagare harimo n'imisego bashyira ku ntebe y'igare igihe utwaye umuntu akicaraho kugira ngo atagenda ari kubabara, bacuruza n'ibyuma bashyira mu mapine igihe ipine ryatobotse.

Inzu nziza isize irangi imbere hari amagare. Amagare yifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu. Igihe ushaka kugenda wihuta cyane utega igare hanyuma ukagera iyo ugiye vuba vuba. Mbere...

Inzu ya butique, bigaragara ko bacuruza, amatelefone y'ubwoko bwa techno. Kuko iruhande hariho, ibyapa byanditseho techno. impande y'iyo nzu haparitseho moto, bigaragara ko yifashishwa mu gutwara abagenzi.

Butike nziza cyane bacuruzamo ibyo kunywa hanze hari ahantu heza ho kwicara, iyo uhicara ufite icyo kunywa uba ufite akayaga. Inzoga harimo likeri, hakabamo mitsingi, ndetse n'amusiteri .

Inzu nziza yubatse neza iteye sima iriho amakaro. Bisa n'aho ari saro. saro ni inzu imwe baba bogosheramo abantu kuko imbere yayo hariho icyapa kigaragaza ko bakora umwuga wo kogosha abantu imisatsi.

Butique iri ahantu heza cyane. Imbere yayo bacururizaho udufuka dutoya. Turiya dufuka ushobora kutwifashisha urimo guhaha, utwaye ibintu bikeya ubijyanye mu rugo. Bacuruzaho n'imbuto zo kurya ukagira ubuzima bwiza.

Inzu y'ubucuruzi nini cane kandi nziza, iyi nzu iruhande rwayo hariho amagaze, gaze yifashishwa mu gihe utetse ibiryo uri kugira ngo bishe vuba vuba. Hari ho n'imyenda iriya myenda ni yo twifashisha twambara kugira ngo tujye ahantu dusa neza.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, bacuruza ibintu byinshi bitandukanye byifashishwa mu rugo harimo: indobo, amabase, imisego yo kuryamaho, amashuka twifubika igihe turyamye kugira ngo imbeho itaza kutwica, n'intebe ushobora kwicaraho uri kuruhuka.

Icyapa kiri ku muhanda kiyobora abagenzi. Icyapa ni cyiza kuko kirakuyobora ukamenya aho ugiye. N'urugendo uribuze gukora, kugeza ahantu ugiye. Icyapa kiba cyanditseho amagambo. Ushobora kuyandikishaho mu nyuguti nkuru cyangwa se inyuguti ntoya.

Igipangu cyiza gisa neza, bigaragara ko batanga amacumbi igihe bwakwiriyeho uri kugendo. Ushaka kuryama uragenda bakagucumbikira, hanyuma ukabyuka ukomeza urugendo ujya iyo ugiye.

Inzu nziza ya etaje, imbere haparitse imodoka nziza ziboneye, zifite ibirahure by'umukara. Iyi nzu yubatse neza, ifite imiryango minini. Imodoka ni nziza kuko uyifashisha urimo gutembera cyangwa se ushaka kugera iyo ugiye vuba vuba.

Inzu nziza yubatse neza, iri ahantu heza, ikikijwe n'inindabyo. Indabyo ni nziza, iyo uziteye uzizengurukije urugo, ziba zigaragara neza kuko indabo iyo ziranze, zizana impumuro nziza murugo iwawe.

Inzu nziza ifite saro irimo intebe ziboneye. Izi ntebe uzifashisha igihe ushaka kwicara, urimo kuruhuka cyangwa se ushaka kuganira n'inshuti zawe mu gihe zagusuye. Izi ntebe kandi ushobora kuzifashisha mu gihe ushaka no kuryama, ukaruhuka, ugasinzira.

Hoteri nziza cyane iri ahantu heza iruhande rwayo haparitse imodoka, iyi hoteri ishobora kuyifashisha igihe urimo kugenda watembereye hanyuma ukajya kuruhukiramo, ugafata icyo kunywa cyangwa se nibyo kurya uri kumwe n'inshuti zawe ndetse n'abavandimwe.

Ibirago byiza cyane bisa neza, ibirago ni kimwe mu bikoresho wifashisha mu rugo uri kugira ngo ushyireho imyaka yawe yume vuba, cyangwa se ushobora no kukirambura ukakiryamaho ushaka gusinzira.

Isoko ryiza bacururizamo ibintu bitandukanye harimo ibikoresho byo mu rugo imbabura, amabase n'amasafuriya. Isafuriya ni nziza kuko uyifashisha igihe ugiye guteka, ibiryo byashya ukarya ukagira ubuzima bwiza.

Isoko ryiza ricururizamo imbuto zitandukanye harimo :imineke ,avoka, inanasi, inyanya, imineke ni imbuto nziza urya ukumva urahaze cyane ,zongera intungamubiri mu mubiri wawe.

Isoko ryiza bacuruza amabase， amasafuriya n'ibikombe. Isafuriya ushobora kuyitekamo ibiryo bigashya，hanyuma ukarya. Ibase ushobora gushyiramo amazi， ugakaraba kugira ngo ugire isuku，n'igikombe ushobora kukinyweramo igikoma.

Akabutike gatoya gacururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa harimo biswi, umunyu, ndetse n'utuji dutoya tw'abana. Biswi ni nziza abana barazikunda, umunyu tuwifashisha igihe turi guteka ibiryo.

Isoko bigaragara ko bacuruza amavuta yo kwisiga y'ubwoko bwose harimo aya jyeriserine ndetse n'amavuta y'abagore bisiga mu misatsi yabo kugira ngo base neza. Amavuta yo kuwisiga y'amasukano ni meza cyane ku mubiri w'umuntu.

Isoko ryiza bacururizamo amashaza, ibitoki. Amashaza ni meza kuko araryoha, iyo uyashize mu isafuriya ukayateka. N'igitoki nacyo ni uko. Igitoki kugiteka ubanza wagitonora ugakuraho ibishishwa by'inyuma, hanyuma ugashira mu isafuriya ukakirya kimaze gushya.

Isoko ryubatse neza ricuruza ibikoresho bikoreshwa mu rugo, harimo amasafuriya, inkweto, imyenda. Inkweto tuzifashisha twambara tugiye gutembera, amasafuriya tukayakoresha dutetse.

Imbuto nziza z'imyembe ziri ahantu hamwe zeze kandi zamaze gushya, imbuto z'imyembe ni nziza nk'imbere ziba zifite urubuto, kuzirya ubanza wazihata ugakuraho agashishwa k'inyuma hanyuma ukaza kuzirya zikaryoha cyane.

Ji ziteretse neza, ahantu hameze neza h'ubwoko butandukanye, harimo iya tuwisite, tuwisite ni ji nziza kuko iyo uyinyweye wumva ushize icyaka, ikindi iba ikoranye na tangawizi ituma umera neza mu mubiri wawe.

Ahanu abanu banyura barimo kwinjira ngo bageremo imbere. Hanyuma umusekeriti uhari ku muryango, abashinzwe gusaka abantu ngo barebe niba hari ikinu gishobora kwangiriza abanu benshi, ashobora kuba umunu yinjiranye agiye kureba ibirimo imbere cyangwa se agiye gusaba serivisi.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ziri mu gatete ziteretse hasi harimo: ibinyomoro, amaronji ndetse n'inyanya. Amaronji ni meza ku buzima bw'umuntu iyo uyariye wumva umeze neza. N'ibinyomoro nabyo nibyiza byongera amaraso mu mubiri w'umuntu.

Iduka ryiza rinini bisa nk'aho ricuruza ibintu byose bikoreshwa mu rugo. Harimo ibikapu, amasahani, amashakoshi y'abagore, ndetse n'imyenda. Igikapu ni cyiza kuko ucyifashisha utwara imyenda ugiye gutembera.

Isoko ryiza rya kijyambere, ryubatse neza, ririho abantu benshi barimo kugenda, abandi bari guhaha, harimo abagore, abana, ndetse n'abantu bafite amagare, hari n'ufite agatebe bicaraho.

Isoko rinini ricururizwamo ibintu byo kurya, ndetse n'ibindi byo gutwazamo ibyo wamaze kugura. Harimo imbuto, harimo amavuta, amaji yo kunywa, ndetse n'ubukapu butoya ushobora kwitwaza umaze guhaha, ugashyiramo ibyo wahashye.

Imifuka yifashishwa kubikamo ibintu bitandukanye cyane cyane ifu imyaka ndetse n'igihe ushaka gutwara ibintu ugiye kubitwara nko mu modoka cyangwa ku gare icyo gihe wifashisha umufuka

Isoko rinini ririmo abantu benshi batandukanye cyane cyane higanjemo abagore bacuruza ibiribwa by'ubwoko bwose. Harimo imbuto, harimo n'isombe; isombe ni nziza urayifata ukayisekura musekuru cyangwa se ukayijyana ku cyuma kikayisya ukabona iyo kurya.

Amavuta yo kwiyisiga yitwa moviti ndetse n'itara ariya mavuta yo kwisiga akunze kwisiga abana batoya gusa n'abakuru ntakibazo ushobora kuyisiga ni amavuta meza iyo uyisize umaze gukaraba ugenda usa neza naho itara ni itara ritumurikira igihe hari umwijima.

Isoko ryiza bacuruzamo imyenda, imipira, amapantaro, amashati n'amashuka. Ipantaro ushobora kuyambara ugiye ahantu userutse, n'umupira ushobora kuwambara igihe ugiye gutembera.

Isoko rinini bigaragara ko bacuruza ibiribwa by'imbuto, harimo ibihaza, inanasi, amaronji. Imbuto ni nziza ku mubiri w'umuntu, iyo uziriye wumva umeze neza. Zongera n'intungamubiri mu mubiri wawe.

Isoko riri ahantu mu cyaro bacuruza imyenda yo kwambara mu gihe ushaka gutembera, cyangwa se gusohokera ahantu. Bacuruza n'ibikapu. Igikapu ushobora kwifashisha uri kubita nk'imyenda. Bacuruza na male. Na male na zo ni nziza kuko uzifashisha mu kubikamo imyenda yawe.

Inzu bigaragara ko ari iz'ubucuruzi. Kuko hariho imyenda myinshi. Hariho n'ibikapu by'abagore. Ibikapu ni byiza kuko ubyifashisha ugiye gutembera. Ugashyiramo ibintu ushaka kugendana aho ugiye.

Isoko ryiza hacururizwamo ibintu bitandukanye, imbere hicaye umugore bisa nkaho ariwe mucuruzi, bacuruza ibikapu by'abagore, igikapu ni cyiza kuko cyifashishwa utwaramo ibintu bikeya cyane.

Karoti nziza cyane ziri mu ibasi. Karoti ni nziza kuko ziri mu bwoko bw'imboga uziteka ukazirya wishimye. urazikatagura ukazironga hanyuma ukazishyira mu isafuriya ukavangamo n'ibindi ukazirya.

Isoko ryiza cyane hacururizwamo ibintu bitandukanye. Harimo amashuka, imyenda, cyane imyenda y'abagore b'abayisilamu, kuko ni amakanzu manini cyane, maremare, iyo uyambaye agera hasi cyane agapfuka ibirenge.

Butike isa neza hacururizwamo imyambaro harimo amapantaro. Ipantaro yambarwa n'abagabo. Ni nziza iyo uyambaye ugenda unezerewe. Harimo n'amashuka yo kwifubika, igihe uryamye kugira ngo imbeho itakwica.

Isoko ryiza rikorerwamo ubucuruzi harimo: inkweto, imyenda na bote. Bote ni nziza kuko uzambara igihe imvura yaguye kugirango utabasha gukandagira mu mazi. Naho amasogisi ni meza uyambarira muri bote igihe urimo kugenda.

Imodoka nziza iri kugenda mumuhanda, ndetse n'abantu barimo kwambuka umuhanda, iruhande hubatse etage nziza cyane bigaragara ko abantu bari kujyayo bakareba ibihakorerwa. Imodoka ni nziza kuko igufasha kugenda igihe ushaka kugenda wihuta, cangwa kugirango utanyagirwa.

Ahantu abantu bahurira bari gucuruza，bacuruza ibintu bitandukanye，amafu， ibyo kurya， imbuto ndetse n'ibindi. Hariho n'abacuruza imikubuzo， bamwe bakubuza bari gukora amasuku mu rugo.

Isoko rinini cyane bacuruza ibintu byinshi bitandukanye byifashishwa mu rugo harimo n'udufuka dutoya ushobora kwifashisha ugiye guhaha ugatwaramo ibiribwa wamaze guhaha ukabijyana mu rugo ukabiteka.

Isoko ryiza ryubatse, bacuruza ibintu bitandukanye cyane cyane ibiribwa, harimo igitoki. Igitoki ni cyiza, kuko iyo ukiriye wumva unezerewe, ukagira imbaraga nyinshi cyane zo gukora.

Isoko rinini kandi ryiza ryubatse neza harimo abantu benshi batandukanye: abana, abagabo, ndetse n'abama. Isoko ni ryiza kuko rituma tubona aho duhahira dushaka kugura imbuto, ibirayi, ibishyimbo, ndetse n'ibindi biribwa.

Depo nziza irimo ibirayi by'ubwoko butandukanye. Ibirayi ni ibiribwa byiza， iyo ubiriye ugira imbaraga. Ibirayi kubirya ubanza wabihata，ukabyoza neza，hanyuma ugashyira mu isafuriya ugateka， ukarya.

Isoko ryiza cyane ricuruza ubwoko bwinshi bw'imbuto harimo ibinyomoro, imineke, amapapayi, avoka ndetse n'amapera. Imineke ni myiza cyane n'ibinyomoro cyane cyane iyo ibinyomoro ubiriye ugira ubuzima bwiza.

Isoko ryiza cyane bacuruzamo ibiribwa harimo imbuto, karoti, intoryi; intoryi ni nziza kuko uzifashisha ugiye guteka imboga ugashyiramo ibishyimbo hanyuma ugashyira ku muceri iyo zimaze gushya ukazirya.